Umugabo wambaye ishati y'umweru ari mu murima we, ni ngombwa kwita ku murima kugira ngo ugire umusaruro mwiza, ugomba kuhira neza ndetse ukanashyira ifumbire ku myaka yawe kugira ngo ubone umusaruro.

Ibimera bitandukanye haba imyumbati n'ibindi, bikunze kugaragara cyane ku gasozi, iyo bibonye imvura n'ifumbire byera neza maze bigatanga umusaruro ukenewe, ni ngombwa guhinga ibimera kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza.

Ahantu hatandukanye hagaragara ibiti byiza, bahahinga imyaka itandukanye. Ni byiza guhinga ibiti, kuko bituma abantu babona umwuka mwiza bahumeka, bityo bakabona n'imvura maze bagahinga bakeza bakiteza imbere.

Kngurube ni ubwoko bw'amatungo magufiya bugaragara mu ngo, aho usanga ari ingenzi cyane kwita ku ngurube kuko zitanga umusaruro ushimishije urimo inyama, ifumbire ndetse n'ibindi.